Ihuriro ry'abanyeshuri batandukanye bari mu kigero cy'imyaka yo hasi n'ababyeyi babo kugira ngo babahereze uburere n'uburezi, inyigisho zitandukanye kugira ngo bite ku buzima bwabo.

Icyumba kirimo abanyeshuri batandukanye ndetse n'abarezi babo, kugira ngo babahereze inyigisho zitandukanye z'uburyo bagomba kwita ku buzima bwabo, babahereza uburere n'uburezi.

Ibyumba bitandukanye bihuriyemo abana bari mu kigero cy'imyaka yo hasi ndetse n'abarezi babo mu kubahereza inyigisho zitandukanye, ku kwita ku burere n'uburezi babahereza n'ibikoma kugira ngo bite ku ndyo yuzuye ikwiriye umwana.

Icyumba cy'amashuri gihuriyemo abana bari mu kigero k'imyaka mitoya, akaba ari ikigo cy'amashuri abanza gifasha guhereza serivisi y'uburezi n'uburere abanyeshuri.

Ibigo by'amashuri bihuriyemo abana bari mu kigero cy'imyaka yo hasi ndetse n'abarezi babo, kubigisha gusenga babahereza uburezi inyigisho zitandukanye z'uburere ndetse banabafasha mu gusobanukirwa.

Ihuriro ry'abana batandukanye bari mu cyiciro cy'amashuri abanza kugira ngo baherezwe serivisi inoze n'abarezi babo, babafashe mu kubahugurira babahereza inyigisho zitandukanye no kubasobanurira.

Ihuriro ry'abana bari mu kigero cy'imyaka mitoya ndetse n'abarezi babo kugira ngo babafashe mu buryo bw'inyigisho zitandukanye ndetse no gusobanukirwa iby'umuco, uburere n'uburezi.

Icyumba gihuriyemo abana b'abanyeshuri bari mu kigero cy'imyaka mitoya bo mu bigo by'amashuri abanza, bagaragaza ko bishimiye serivisi yo guhabwa uburere n'uburezi.

Ibyumba by'amashuri, aho abana bo mu cyiciro kibanza baherezwa uburere n'abarezi babo kugira ngo babafashe mu buryo bw'inyigisho zitandukanye, babasobanurira na bimwe bigiye bitandukanye ku burezi.

Ihuriro ry'abana ndetse n'abarezi babo mu guteza serivisi y'uburere n'uburezi imbere, aho bitabwaho baherezwa inyigisho zitandukanye kugira ngo biteze imbere ndetse bateze n'umuco w'uburezi imbere.

Ihuriro ry'abanyeshuri batandukanye ndetse n'abarezi babo, mu rwego rwo kubafasha kubahereza uburezi, uburere ndetse banabahereza amafunguro kugira ngo baticwa n'inzara mu gihe bari guherezwa inyigisho.

Ibyumba by'amashuri, aho abana bari mu kigero k'imyaka mitoya bahurira, kugira ngo baherezwe ubumenyi n'inyigisho zitandukanye n'abarimu babo, babafashe mu buryo bw'uburezi n'uburere.

Ibigo by'amashuri ahari amameza, aho abanyeshuri bari mu cyiciro cy'imyaka yo hasi bahurira kugira ngo baherezwe inyigisho n'abarezi babashinzwe babafashe no kubahereza inyigisho zikwiriye.

Ihuriro ry'abana bari mu kigero cy'imyaka mitoya, bahura n'abarezi babo kugira ngo babafashe mu buryo bwo kubahereza ubumenyi, inyigisho zitandukanye ku bijyanye n'umuco ndetse n'uburezi n'uburere.

Icyumba kibitswemo ibitabo bitandukanye, bishobora gukoreshwa n'abanyeshuri mu gihe bari kwihugura, mu buryo bwo gufata ubumenyi bakoresheje ibitabo byabugenewe.

Urugi rw'inyubako itangirwamo serivisi y'amasomo ku baturage rusange ndetse n'abanyeshuri, ikabafasha gusobanukirwa bahabwa inyigisho zigiye zitandukanye ku kwita ku buzima bwabo.

Ibyumba bitangirwamo serivisi y'uburere n'uburezi ku banyeshuri bari mu cyiciro cy'amashuri abanza, bakitabwaho umunsi ku munsi bahabwa inyigisho zitandukanye zishobora kubafasha.

Ihuriro ry'abanyeshuri batandukanye mu kigo cy'amashuri abanza, aho bahurira kugira ngo baherezwe serivisi y'uburezi n'uburere, bagahura n'abarimu kugira ngo babahereze inyigisho zitandukanye.

Ikigo cy'amashuri, gihuriyemo abanyeshuri batandukanye, baje guhura n'abarimu babo, b'inzobere, kugira ngo babahereze inyigisho zitandukanye, zerekeye ubumenyi ndetse n'ibindi bisobanuro.

Ibyumba by'ibigo by'amashuri aho abanyeshuri batandukanye bahurira kugira ngo baherezwe ubumenyi n'abarimu babo babashinzwe, ndetse babahereze n'inyigisho zitandukanye mu gufasha gusobanukirwa.

Icyumba cy'amashuri kirimo intebe zitandukanye, aho abanyeshuri bicara mu gihe bari guherezwa serivisi y'ubumenyi n'abarimu babahereza inyigisho zitandukanye ndetse n'ikibaho cyabugenewe kugira ngo serivisi itangwe mu buryo bumeze neza.

Igipapuro cyanditseho ibikoresho ikigo k'ishuri kigomba kuba gifite kugira ngo gitange serivisi imeze neza, harimo intebe, ingwa, ibibaho ndetse naho gushyira ibipapuro mu buryo bwo kwiteza imbere mu buryo bw'isuku.

Ikigo cy'amashuri abanza, aho abana bo mu kigero cy'imyaka yo hasi bahurira, kugira ngo bite ku burezi n'uburere, baherezwe inyigisho n'abarezi babo bitabweho.

Icyumba cy'ishuri, aho abanyeshuri batandukanye bahurira kugira ngo bahure n'abarimu babo, babafashe mu buryo bwo kubahereza inyigisho zitandukanye, no gusobanukirwa ku by'ubumenyi.

Ihuriro ry'abanyeshuri batandukanye mu bigo by'amashuri, kugira bahure n'abarezi babo mu guherezwa inyigisho zitandukanye, bakoresheje n'ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo nka mudasobwa.

Icyumba, aho ibitabo bitandukanye bibikwa kugira ngo bize gukoreshwa n'abanyeshuri batandukanye, ameza, aho ibyo bitabo bisomerwa, ndetse n'inzobere mu gutanga ibisobanuro bihagije kuri ibyo bitabo.

Ibigo by'amashuri aho abanyeshuri batandukanye bahurira kugira ngo baherezwe serivisi y'ubumenyi, uburezi ndetse n'uburere, bitabweho n'abarezi babo babafasha kubahereza inyigisho zitandukanye.

Ibigo by'amashuri aho abanyeshuri bategurirwa amafunguro kugira ngo aze kubageraho ameze neza mu gihe bari gufata inyigisho zitandukanye z'abarimu ndetse akitabwaho umunsi ku munsi.

Icyumba k'ibigo by'amashuri, aho serivisi y'uburezi n'uburere itangirwa ku banyeshuri bahuye n'abarimu babo babashinzwe kugira ngo babafashe mu buzima busanzwe.

Kwita ku banyeshuri ubahereza ubumenyi ni ingirakamaro, aho bahura n'abarimu babo kugira ngo babafashe uburyo bwo kubahereza uburere bufite ireme kugira ngo biteze imbere.

Ibigo by'amashuri, aho abanyeshuri bahurira kugira ngo baherezwe uburere n'uburezi n'abarimu babashinzwe, babafashe no kubahereza inyigisho zitandukanye bashobora gukenera mu buzima bwabo.

Icyumba gitangirwamo serivisi y'ihugura ku baturage ndetse kigakoreshwa n'abayobozi babishinzwe, kugira ngo bageze inyigisho z'ubumenyi ku muturage ukeneye guhabwa serivisi.

Icyumba cy'amashuri gitangirwamo serivisi y'ubumenyi ku banyeshuri batandukanye kugira ngo basobanukirwe boherezwa ubumenyi n'abarimu b'inzobere mu kubigisha ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo nka mudasobwa.

Ibigo by'amashuri bitangirwamo serivisi n'abarimu b'inzobere kugira ngo bafashe abanyeshuri mu guhugukirwa mu kumenya ndetse babahereza inyigisho zitandukanye zifungura umuntu mu mutwe.

Icyumba cy'amashuri, aho abarimu b'inzobere bahurira n'abanyeshuri kugira ngo babafashe mu buryo bwo kubahereza ubumenyi, ndetse hakaba harimo intebe zikoreshwa n'abanyeshuri mu gihe bicaye bari guherezwa inyigisho.

Ikigo cy'amashuri cya Ndi umunyarwanda, isano ihuza abanyarwanda batewe ishema no kuba abanyarwanda, bahuriye ku gukunda u Rwanda, kururinda no kuruteza imbere.

Icyumba kirimo abanyeshuri mu cyiciro cy'amashuri abanza, bafashanya guhana amasomo ndetse n'inyigisho zitandukanye baherezwa n'abarezi babo.

Igitabo gikoreshwa mu burezi ndetse kigafasha abarimu b'inzobere gutanga amasomo y'imibare ku banyeshuri batandukanye kugira ngo bamenye uburyo bwo gukoresha imibare.

Ibigo by'amashuri, aho abana bari mu kigero cy'imyaka yo hasi bahurira mu bigo by'amashuri abanza kugira ngo baherezwe inyigisho zitandukanye, zibafasha kwita ku buzima bwabo.

Icyumba cy'ikigo cy'amashuri, aho abanyeshuri bari mu mashuri abanza bahurira, kugira ngo baherezwe ubumenyi n'abarimu babo, banabafashe mu kubahereza inyigisho zitandukanye.

Inyubako y'ibigo by'amashuri, aho abanyeshuri batandukanye bahurira kugira ngo baherezwe serivisi y'ubumenyi ndetse bite no ku banyeshuri babaheraza inyigisho zitandukanye mu rwego rwo kubafasha.

Ibyumba by'abanyeshuri bitangirwamo serivisi y'ubumenyi, ndetse abanyeshuri bo mu cyiciro cy'imyaka yo hasi, bagahabwa ubumenyi n'inyigisho zitandukanye, n'amafunguro kugira ngo bamere neza mu gihe bari guhabwa inyigisho.

Icyumba gihuriyemo abanyeshuri batandukanye ndetse n'abayobozi babo, mu rwego rwo guherezwa ubumenyi butandukanye, n'izindi nyigisho umunyeshuri akenera ku murezi we.

Ihuriro ry'abanyeshuri batandukanye ndetse n'abayobozi babo mu rwego rwo kugaragaza ko uburezi n'uburere ari ingirakamaro bifasha abaturage bigafasha n'abanyeshuri mu kwiteza imbere.

Ikigo cy'amashuri gifite jaride nini imbere ndetse gitangirwamo serivisi y'ubumenyi n'inyigisho zitandukanye ku banyeshuri, bagafashwa gusobanukirwa mu by'uburere n'uburezi.

Icyumba cy'amashuri gitangirwamo serivisi y'uburezi n'uburere ku banyeshuri bari mu kigero cy'imyaka mitoya, bakitabwaho n'abarimu babo babahereza inyigisho zitandukanye n'ubumenyi.

Ihuriro ry'abanyeshuri batandukanye mu kibuga cya Basket ndetse bari kugezwaho inama zitandukanye n'abarezi babo kugira ngo babashe guhabwa inyigisho zitandukanye zishobora kubafasha.

Ikigo cy'amashuri gihuriyeho abanyeshuri batandukanye ndetse n'abarezi babo mu kubafasha kubahereza inyigisho zitandukanye zishobora kubafasha mu kwirinda mu rwego rw'uburezi n'uburere.

Ikigo cy'amashuri, aho abanyeshuri batandukanye bagaragaza ko bishimiye serivisi yo guteza imbere umuco na siporo bikorwa mu bigo by'amashuri, bagaragaza ko ari ingirakamaro ku buzima bw'abanyeshuri.

Ibigo by'amashuri bitangirwamo serivisi ku bana b'abanyeshuri, bagahura n'abarimu babo kugira ngo babafashe mu gusobanukirwa, babahereza inyigisho zitandukanye banabahugura mu buryo bwo kubasobanurira.

Icyumba cy'amacumbi aho abanyeshuri baruhukira kugira ngo bakomeze guherezwa serivisi z'ubumenyi no kwitabwaho baherezwa uburere, bagahabwa amacumbi ameze neza aho bashobora kuruhukira.

Ibibuga by'umupira aho imodoka zitandukanye zitwara abanyeshuri ku mashuri zihurira zigaparika kugira ngo abanyeshuri baherezwe serivisi imeze neza, basuzumwe mu rwego rwo kwirinda inkingo.

Icyumba kirimo abanyeshuri benshi b'ikigo cy'amashuri, bagaragaza ko bishimiye serivisi baherezwa n'abarimu b'inzobere bakabafasha mu buryo bw'uburezi n'uburere muri rusange.

Ibigo by'amashuri, aho abanyeshuri n'abarimu bahurira kugira ngo serivisi y'uburere n'uburezi itambuke inyuze mu mucyo, ndetse bagakoreshwa amashuri yabugenewe n'intebe.

Ihuriro ry'abaturage batandukanye, bambaye amajesi. Ndetse n'abayobozi babo, bagaragaza ko bishimiye serivisi, y'umuco na siporo itangwa ku banyeshuri, ndetse bigateza imbere ubucuti mu banyeshuri.

Ibyumba by'amashuri bihuriyemo abanyeshuri batandukanye n'abarezi babo mu rwego rwo guherezwa uburezi n'uburere no kubafasha bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo basobanukirwe.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri, ahatangirwa serivisi y'ubumenyi ku banyeshuri n'abaturage rusange, aho bahura n'abarezi b'inzobere kugira ngo batange inyigisho zifite ireme ku baturage.

Ikigo cy'amashuri aho abarimu b'inzobere bahurira n'abanyeshuri kugira ngo babafashe mu buryo bwo kubahereza inyigisho ndetse no kubafasha mu gusobanukirwa iby'ubumenyi.

Ibigo by'amashuri, aho abanyeshuri batandukanye bahurira kugira ngo baherezwe inyigisho zigiye zitandukanye, zitangwa n'abarezi babo babahereze inyigisho z'umuco ku burere n'uburezi.

Ihuriro ry'abanyeshuri batandukanye ku kigo cy'amashuri, aho bahura n'abarezi babo kugira ngo bahuze imbaraga, ibitekerezo, ndetse no gufatanya kugira ngo bateze uburezi n'uburere imbere.

Ibyumba birimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa n'abaganga b'inzobere, kugira ngo batange serivisi ifite ireme ku baturage n'abanyeshuri bifuza guhabwa serivisi y'uburezi.

Ibigo by'amashuri bitandukanye aho abanyeshuri bahurira kugira ngo baherezwe serivisi y'uburere n'uburezi, bahure n'abarimu babizobereyemo kugira ngo babahugure mu byo kubahereza inyigisho z'ubumenyi.

Ikigo gihuriyeho abanyeshuri batandukanye bari guherezwa serivisi y'uburere n'uburezi n'abarezi babo babashinzwe babahereza inyigisho zitandukanye zishobora kubafasha mu buzima bwabo.

Ibyumba by'amashuri bihuriramo abanyeshuri batandukanye, bafite ibikoresho byabukenewe nk'amakayi kugira ngo boherezwe inyigisho n'abarezi babo babigenewe kugira ngo babiteho umunsi ku munsi.

Kwita ku bikoresho bikoreshwa mu bigo by'amashuri, harimo nk'intebe abanyeshuri bakoresha bicaraho mu gihe bari guherezwa amasomo n'inyigisho zitandukanye baherezwa n'abarimu babo.

Stade ihuriyemo abanyeshuri batandukanye, bambaye iniforume zisa bagaragaza ko bishimiye uburezi bahabwa ndetse no guteza imbere umuco na siporo.

Ibigo by'amashuri bihuriramo abanyeshuri batandukanye n'abarezi babo kugira ngo baherezwe serivisi y'uburezi n'uburere mu kwita ku muco ndetse no kwita ku burenganzira bw'umuturage.

Icyumba gihuriyemo abanyeshuri batandukanye, ndetse n'abarezi babo mu kubahereza inyigisho zitandukanye, bajya inama ndetse bahana n'ibitekerezo mu guteza ikigo cyabo imbere.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'uburezi ku baturage rusange kugira ngo bafashwe mu buryo bwo guherezwa inyigisho n'abarezi babashinzwe, babafashe mu buryo bwo guhugukirwa.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri, ahatangirwamo serivisi y'ubumenyi butangwa n'abarimu b'inzobere kugira ngo bafashe abanyeshuri batandukanye mu buryo bwo gusobanukirwa babaheriza inyigisho zitandukanye, bakoresha ibibaho n'ingwa zabugenewe.

Icyumba gihuriyemo abanyeshuri batandukanye, barimo gukora ibizami ndetse bagahabwa inyigisho umunsi ku munsi n'abarezi babo kugira ngo bahugukirwe babone n'amasomo azabafasha mu kwita ku buzima bwabo.

Ibyumba by'amacumbi, aho abanyeshuri babika ibikoresho byabo ndetse bakanaryama mu gihe bari guherezwa amasomo n'abarimu babo babashinzwe, umunsi ku munsi.

Ikigo cy'amashuri gihuriyeho abanyeshuri batandukanye, bicaye hasi ndetse n'abayobozi babo bambaye amajiri asa, kugira ngo batange inyigisho ku banyeshuri.

Ibigo bitandukanye bitangirwamo serivisi y'ubumenyi, n'abarimu b'impuguke kugira ngo bafashe abanyeshuri batandukanye, mu buryo bwo guherezwa inyigisho z'uburezi.

Ikigo cy'amashuri gitangirwaho serivisi y'uburezi ku baturage rusange ndetse bakitabwaho umunsi ku munsi baherezwa inyigisho zabugenewe n'abaganga ndetse n'abavuzi b'inzobere.

Abanyeshuri bo mu bigo by'amashuri, bagomba kwitabwaho mu gihe bari guherezwa uburere n'uburezi, bagahabwa n'amafunguro kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kumera neza mu gihe bari guhabwa inyigisho n'abarezi.

Inyubako y'amashuri aho abanyeshuri baherezwa ubumenyi n'inyigisho zitandukanye, hagomba kuba hafite isuku, hakitabwaho kugira ngo abanyeshuri bahabwe serivisi bameze neza.

Ihuriro ry'abanyeshuri batandukanye ku kigo cy'amashuri ndetse n'abayobozi babo n'inzego z'umutekano, mu kubakangurira kwirinda ibiyobyabwenge, inzoga ndetse n'ibindi kugira ngo bitazabicira ejo heza.

Ikigo cy'amashuri gitangirwamo serivisi y'ubumenyi ku banyeshuri, aho bahura n'abarimu b'inzobere kugira ngo babahereze inyigisho zitandukanye ku burezi n'uburere.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri iharanira indangagaciro nyarwanda harimo gukunda igihugu, ubumwe, ubupfura, ubutwari, ubunyangamugayo, gukunda umurimo no kuwunoza, isuku n'umutekano, ndetse n'ubunyarwanda muri rusange.

Kwita ku buzima bw'abanyeshuri harimo n'abafite ubumuga kugira ngo baherezwe serivisi y'ubumenyi, baherezwe inyigisho zitandukanye bakoresha za mudasobwa nk'ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo babashe guhugukirwa.

Icyumba kirimo abanyeshuri batandukanye ndetse imbere ku kibaho hakaba hari igikoresho k'ikoranabuhanga kigaragaza amashusho, mu gihe bari guherezwa ubumenyi ndetse n'inyigisho zitandukanye zitangwa n'abarimu.

Ihuriro ry'abanyeshuri batandukanye ku kigo cy'amashuri, aho bahura n'abarezi babo kugira ngo babafashe kubahereza inyigisho zitandukanye, zishobora gutuma ubuzima bwabo bumera neza.

Icyumba gihuriyemo abanyeshuri batandukanye, bari guherezwa amasomo n'abarezi babo mu buryo bwo kubafasha kubahereza inyigisho zitandukanye zibafasha gufunguka mu mutwe no gufungura mu mutwe.

Icyumba kibitswemo ibitabo bitandukanye, bibitswe mu buryo bw'isuku bifasha buri munyeshuri wese ushobora gukenera gusoma, agahabwa ubumenyi n'ibisobanuro bitandukanye.

Ihuriro ry'abanyeshuri batandukanye mu gihe cy'itangira, aho baba bafite ibikoresho bikoreshwa ku mashuri, harimo nk'amamatera, ibikapu bitandukanye bibitswemo ibikoresho byabo.

Ibigo by'amashuri, aho abanyeshuri batandukanye bahurira kugira ngo baherezwe ubumenyi n'abarimu babo b'inzobere, babafashe mu buryo bw'inyigisho ndetse no gusobanukirwa.

Icyumba gitangirwamo serivisi y'uburezi, aho abanyeshuri batandukanye bahura n'abarezi babo kugira ngo babahugure, bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa kugira ngo bige neza.

Ikigo cy'amashuri gihuriraho abanyeshuri batandukanye n'abarezi babo ndetse kikaba kigira indangagaciro, harimo nko kubaha Imana, gukunda igihugu, kugira isuku, kugira ikinyabupfura ndetse no kwihesha agaciro.

Icyumba cy'ikigo cy'amashuri, aho serivisi y'uburezi itangirwa ndetse abanyeshuri bagahura n'abarezi babo kugira ngo bakoreshe ibikoresho byabugenewe, harimo nk'ingwa n'ibibaho kugira ngo serivisi itangwe neza.

Inyubako y'ibigo by'amashuri, aho abanyeshuri batandukanye bahurira kugira ngo baherezwe serivisi y'uburere n'uburezi n'abarezi babo babashinzwe babafashe kubahiriza inyigisho zitandukanye.

Inyubako zitandukanye z'ikigo cy'amashuri, aho abanyeshuri batandukanye bahurira n'abarezi babo kugira ngo babahereze inyigisho zitandukanye, uburere ndetse n'uburezi.

Icyumba cy'amasomero aho ibitabo bitandukanye bibikwa ndetse n'abanyeshuri batandukanye bakahahurira kugira ngo basangire ubumenyi n'inyigisho zitandukanye.

Icyapa ndetse n'irembo ry'ikigo cy'amashuri bigaragaza ahatangirwa serivisi y'uburere n'uburezi ku banyeshuri n'abaturage rusange mu rwego rwo kubafasha gusobanukirwa babahereza inyigisho zitandukanye.

Icyumba kirimo uburiri ndetse n'akabati, aho ibikoresho bitandukanye birimo amavuta, amaparufe n'ibindi bibikwa bifasha umuturage mu kwita ku kubungabunga ubuzima bwe.

Ibyumba bifite amasuku bitangirwamo inyigisho zitandukanye ku banyeshuri ndetse bagahura n'abaganga b'inzobere kugira ngo babafashe mu kubasobanurira babahereza n'izindi nyigisho.

Icyumba kirimo ibikoresho bikenerwa n'abaturage rusange kugira ngo bakomeze kwita ku buzima bwabo, harimo nk'amacumbi aho bakarabira banaborosa, aho bacomeka kugira babone umuriro ndetse n'ibindi.

Amafunguro ategurwa ku meza zabugenewe, akoreshwamo isuku nyinshi hakoreshejwe ibikoresho byabugenewe mu kuyategura, amazi meza y'isuku ndetse n'ibirishwa bikaba bifite isuku ihagije.

Ubukarabiro aho abanyeshuri batandukanye bashobora kubona amazi meza y'isuku kugira ngo bakoreshe mu ntoki zabo bakaraba, birinda umwanda ndetse bikabafasha kugira ngo babe bafite isuku yo mu ntoki.

Ibyumba by'amashuri birimo intebe aho abanyeshuri bicara mu gihe bari guherezwa inyigisho zitandukanye zituruka ku barimu b'inzobere, bakoresha ibibaho byabugenewe kugira ngo serivisi itangwe mu buryo bumeze neza.

Icyumba cyo kuruhukiramo, aho ubika ibikoresho byawe nk'imyenda ndetse n'ibikombe, utubido ndetse n'aho ushyira inkweto, ukabona n'icumbi ry'uburiri kugira ngo usinzire neza.

Icyumba kigaragaza ko ari cyo gitangirwamo serivisi y'amasomo n'abarimu b'inzobere kugira ngo bafashe abanyeshuri mu buryo bwo kubahereza inyigisho zitandukanye zishobora kubafasha gusobanukirwa.

Icyumba kibitswemo ibikoresho by'ikoranabuhanga, bitangwa isuzuma n'ababishinzwe ndetse n'inzobere mu gutanga inyigisho ku baturage rusange kugira ngo bikoreshwe mu buryo bwizewe.

Icyumba kirimo abaturage batandukanye bicaye mu ntebe, bahuye n'abayobozi babo kugira ngo babahereze inyigisho zitandukanye, bakore n'inama, bahane ibitekerezo kugira ngo bateze imbere umuco.

Kwita ku biti ni ingirakamaro ndetse leta ikangurira abaturage umunsi ku munsi kurinda ibiti, kuko bibafasha mu kubona imbaho zituma babonamo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo nk'ibitanda ndetse bikanabafasha mu gukorwamo kw'impapuro.

Ibyumba birimo amacumbi ndetse n'ahandi abanyeshuri bashobora kubika ibikoresho byabo kugira ngo babe bameze neza mu gihe bari kwitegura amasomo.

Inyubako itangirwamo serivisi y'isomero ndetse akaba ariho ibitabo bitandukanye bibitswe kugira ngo abaturage bakenera gusoma bahakoreshe.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri, aho abanyeshuri batandukanye bakura ubumenyi baherejwe inyigisho, n'abarimu b'inzobere bafite n'ubuhugukirwe mu gutanga serivisi y'uburezi.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri, ahatangirwa serivisi y'uburere n'uburezi ku banyeshuri ndetse bakitabwaho n'abarezi babo, kubafasha kubahiriza inyigisho zitandukanye zishobora kubafasha mu buzima bwabo.

Ibyumba by'amashuri, aho serivisi y'ubumenyi itangirwa ku banyeshuri, kugira ngo baherezwe inyigisho zitandukanye, zishobora gutuma biteza imbere, mu buryo bw'imyigire ndetse no gufatanya.

Icyumba cy'ikoranabuhanga gikoreshwa n'abaturage bambaye amataburiya abishinzwe kugira ngo bakoreshe isuku ihagije ibikoresho by'ikoranabuhanga, batange n'ubumenyi ku banyeshuri batandukanye.

Ibigo by'amashuri birimo intebe zitandukanye aho abanyeshuri bicara kugira ngo baherezwe serivisi n'abarimu babashinzwe, babafashe mu buryo bwo kubahereza inyigisho zitandukanye.

Umuhanda ugana ku nyubako z'ibigo by'amashuri, aho abanyeshuri batandukanye bahura n'abarezi babo kugira ngo babafashe mu buryo bwo kubahereza inyigisho, kubahugurira ndetse no gusobanukirwa iby'uburezi.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, nk'utubido, ameza abitsweho ibikombe, ndetse n'ibitabo, hakaba harimo n'amacumbi mu byumba, bigaragaza aho abanyeshuri baruhukira mu gihe bari kuruhuka.

Icyumba gitangirwamo serivisi y'ubumenyi n'abashinzwe ibikoresho by'ikoranabuhanga, kugira ngo bihereze inyigisho zitandukanye abanyeshuri, bakeneye kumenya iby'ikoranabuhanga.

Ibyumba by'abanyeshuri birimo amamatera ndetse naho utubati tubikwamo imyenda y'abanyeshuri, bikifashishwa kugira ngo umwana aherezwe serivisi imeze neza mu gihe yaje gufata amasomo.

Ibyumba by'amanama aho abaturage rusange bahurira kugira ngo baherezwe inyigisho zitandukanye zishobora kubafasha mu kwiteza imbere bagirwa inama umunsi ku munsi n'abaganga b'inzobere.

Icyumba gihuriyemo abaturage batandukanye, bagaragaza ko bishimiye serivisi yo guherezwa ubumenyi, inyigisho zitandukanye n'abarezi babo, mu buryo bwo kwita ku muco, uburere n'uburezi.

Icyumba gihuriyemo abaturage batandukanye ndetse no mu byicaro byabo, aho bagezwaho inyigisho zitandukanye n'abayobozi babo kugira ngo babigishe iby'uburere n'uburezi.

Ibyumba by'amasomero, aho ibitabo bitandukanye bibitswe mu buryo bw'isuku kugira ngo abanyeshuri babikoresha bajye babibona mu buryo bworoshye.

Inyubako yubatswe mu buryo bwa etaje, itangirwamo serivisi y'amahugurwa ku baturage n'abanyeshuri rusange kugira ngo bahure n'abarezi b'inzobere babafashe mu guhugukirwa.

Abaturage batandukanye bahuriye n'abayobozi b'inzobere mu cyumba cy'amashuri kugira ngo babahereze inyigisho zitandukanye hakoreshejwe ibikoresho by'ikoranabuhanga byabugenewe nka mudasobwa.

Inyubako irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo bapime, babike imiti ifite ubuziranenge ndetse batange n'inyigisho ku banyeshuri batandukanye.

Inyubako zitandukanye, aho abanyeshuri bo mu bigo by'amashuri yisumbuye, baruhukira hagafatwa nk'amacumbi ndetse hagakorerwa ibyo abanyeshuri basanzwe bakora mu buzima bwabo busanzwe.

Ibigo by'amashuri bitandukanye, aho abanyeshuri bakeneye guhabwa inyigisho zitandukanye n'abarimu babo bahurira, kugira ngo baherezwe ubwo bumenyi n'ibindi bisobanuro.

Icyapa cy'ikigo cy'amashuri gitangirwamo serivisi y'uburezi ku banyeshuri batandukanye, babafasha mu kubahugurira babahereza n'inyigisho zitandukanye zishobora gutuma umunyeshuri yiteza imbere.

Ibyumba by'amacumbi aho abanyeshuri cyangwa se abandi baturage rusange basanzwe baruhukira kugira ngo bamere neza, birimo aho bakarabira mu maso ndetse n'aho gutira ibikoresho byabo basanzwe.

Ibyumba bitangirwamo serivisi y'ubumenyi, igatangwa n'abarimu b'inzobere kugira ngo batange inyigisho ku banyeshuri batandukanye bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibibaho byabugenewe.

Icyumba gihuriyemo abaturage rusange ndetse n'abayobozi b'inzobere mu rwego rwo guteza umuco ndetse n'ubuhanzi imbere, aho bakoresha ibikoresho byabugenewe ndetse n'iby'ikoranabuhanga birimo mudasobwa, amabafure ndetse n'ibindi.

Inyubako z'ibigo by'amashuri, aho abanyeshuri batandukanye bahurira, kugira baherezwe inyigisho zitandukanye n'abarezi babo mu buryo bwo gutanga uburere n'uburezi ku banyeshuri rusange.

Inyubako aho abanyeshuri batandukanye bahurira kugira ngo baherezwe serivisi, baherezwa inama ndetse bagirwe n'inyigisho zitandukanye zishobora kubateza imbere mu buryo bw'ubuvuzi.

Icyumba cy'amashuri gitangirwamo serivisi y'ubumenyi ku banyeshuri batandukanye, ndetse bagahura n'abarezi babo kugira ngo babafashe mu gusobanukirwa babahereza n'inyigisho zitandukanye.

Ibyumba bitangirwamo serivisi ku baturage rusange, bikabafasha mu buryo bwo kumenya, guhugukirwa ndetse no kwita ku kuzigama ku buzima bwabo umunsi ku munsi.

Ibigo by'amashuri aho abanyeshuri batandukanye bahurira kugira ngo baherezwe ubumenyi n'abarimu babo babashinzwe ndetse n'inyigisho zigiye zitandukanye, babafashe no gusobanukirwa.

Icyumba, gihuriwemo abaturage batandukanye. Ndetse, n'abasobanuzi babo. Kugira ngo babasesengurire, mu buryo bw'imikoreshereze, y'ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye biri mu cyumba.

Umuryango w'ikigo cy'amashuri, aho hatangirwamo serivisi y'ubumenyi ku banyeshuri batandukanye kugira ngo bahabwe inyigisho n'abarezi babo, babafashe mu buryo bwo gusobanukirwa iby'uburezi n'uburere.

Salle ihuriyemo abaturage batandukanye, bari gufata amafunguro mu rwego rwo kwerekana ko bishimiye serivisi y'uburere n'ubuvuzi butangwa ku baturage rusange, bikabatuma biteza imbere. Bigateza n'igihugu imbere.

Icyumba kirimo matera nk'icumbi, aho umuturage ashobora kuruhukira cyangwa se umunyeshuri ndetse hakaba hari n'utubati, aho ushobora kubika ibikoresho byawe, aho ushobora kubika inkweto ndetse n'ibindi bishobora kugufasha.

Ibyumba birimo amacumbi atandukanye, akoreshwa n'abacumbitsi kugira ngo babone aho kuruhukira, hari n'aho babika ibikoresho byabo nk'utubati tumeze neza ndetse n'amarido afite isuku.

Icyumba gihuriyemo abaturage rusange kugira ngo baherezwe serivisi y'ubumenyi ndetse n'inyigisho zitandukanye n'ababashinzwe kugira ngo babafashe guhugukirwa, harimo ameza baganiriraho ndetse n'aho bashyira ibipapuro.

Ibyumba bibitswemo ibitabo bitandukanye birimo iby'ubuzima, iby'ubugenge, iby'isi ndetse n'ibindi byose bikaba bibitswe mu buryo bw'isuku bigafasha umuturage wese ukeneye guhabwa ubumenyi, agahabwa n'ibisobanuro bitandukanye.

Ibigo by'amashuri aho abarezi batandukanye bahurira kugira bahereze serivisi y'uburezi, inyigisho zitandukanye ku banyeshuri baje aho ngaho bitabweho.

Ibyumba by'amashuri bitangirwamo serivisi y'ubumenyi ndetse n'inyigisho zitandukanye ku banyeshuri, aho bahura n'abarimu b'inzobere kugira ngo babafashe muri iyo serivisi.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri gikoreshwa n'abanyeshuri, ndetse n'abayobozi babo babayobora, kugira ngo babahereze inyigisho zitandukanye, banabafashe mu gusobanukirwa mu buryo bugiye butandukanye.

Ibyumba by'isuku aho inama zikunze gutegurirwa, abanyeshuri batandukanye cyangwa se abaturage, bagahura n'abayobozi babo kugira ngo babahereze inyigisho zitandukanye.

Ibyumba bitangirwamo serivisi y'amahugurwa hakoreshejwe ibyuma by'ikoranabuhanga, bishobora gufasha abarimu mu gusobanurira abaturage rusange ingingo nyamukuru bashaka kubabwira, bikanabafasha kwihutisha igihe.

Inyubako yubatse mu buryo bwa etaje, igakoreshwa nk'ikigo cy'amashuri gitangirwamo serivisi y'uburezi n'abaturage rusange, kugira ngo bahabwe inyigisho n'abarimu bahugukiwe babafashe.

Icyumba kirimo abaturage rusange ndetse bari guhugurana, bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo nka mudasobwa, ndetse banandika inyigisho zitandukanye, hari n'ibitabo bibitswe mu rwego rw'isuku.